Ikiribwa gitegurirwa muri bale, n'inyama bashyizeho igitoki, bashyizeho igitunguru, bashyizeho n'indimu. Kugira ngo umuntu wese ushobora kuyirya, atagira ikibazo mu nda kandi abe ayizeye.

Inzu ikorerwamo akabari irimo ibikoresho bitandukanye, muri ibyo bikoresho biri muri aka kabari harimo:ameza abiri n'intebe nyinshi zitandukanye, inzu ifite umuriro, amashanyarazi, inzu iri ahantu hafite isuku hakeye kandi hameze neza.

Aha ni ahantu hakorerwa akabari ni bare, aho abantu bari mu kurya, aho abantu bari mu kunywa banezerewe bisanzuye, ni ahantu hakeye hari amashanyarazi, ibikorwaremezo byarahageze, hari isuku, ni ahantu hatanze umutekano muri iyi bare mu buryo bwose bushoboka.

Ni muri bale nziza ifite isuku barayitatse n'indabo. Aba ni abakozi bo muri bale, bambaye impuzankano imwe, biteguye kuba batanga serivisi ku bantu baje babagana kubera ko bafite isuku kandi barabukereye.

Bare icururizwamo ibintu bitandukanye birimo ama rikeli, izindi nzoga zitandukanye za buralirwa, harimo barumani ubikora neza ubihugukiwe kandi ubitunganya uzi ibyo akora, ni ahantu heza hashimishije hari isuku hatatse, hari indabo harakeye kandi hameze neza.

Ahantu hacururizwa inzoga z'ubwoko butandukanye hacururizwaga inzoga z'amarikeri, hagacururizwaga n'inzoga za Bralirwa. Umuntu wese ugeze ahangaha, hari intebe zabugenewe. Umuntu aricara agasaba serivisi. Ni ahantu hari amakaro, hari isuku, hari amatara, iterambere rirahari, haratunganye.

Akabari gacururizwamo inzoga z'ubwoko butandukanye. Ni akabari kagira ibirahuri byifashishwa mu gutanga serivise. Ni akabari kagira isuku, ni akabari kagira umutuzo n'umutekano. Umuntu wese uhageze agenda ahashima kubera ko biba bimeze neza.

N'inyama za boroshete zitunganyije zimeze neza, zirimo ikirungo nyuma yo gutunganywa zashyizwe ku isahani, kugira ngo bize korohera ugomba kuzitanga cyangwa se bize korohera ugomba kuzirya, inyama zimeze neza zatunganyijwe neza.

Ubwoko bw'ibiryo bitegurirwa muri bare, muri ibi biryo harimo inyama za broshete ibiryo harimo n'inyanya bakoze mu buryo bwa salade, harimo n'ibitunguru bakoze mu buryo bwa salade, n'ibiryo bifite isuku biri ku isahani y'umweru itunganye.

Hano haragaragara ibikoresho bitandukanye, bigomba kwifashishwa mu kabari harimo:intebe ndetse n'ameza ndetse n'aho ibi bikoresho biteretse hamezeze neza, hafite isuku kandi hafi y'ibyo bikoresho bigomba kwifashishwa mu kabari, hari n'umuntu ugomba gufasha abakiriya kubakira no kubahereza ibyo bakeneye.

Ni icyapa kigaragaza ahakorerwa bare ,cyangwa se akabari ,ni bare ikorerwa ahantu hafi y'umuhanda w'igitaka ,ni umuhanda uri nyabagendwa, ni bare iri ahantu mu biti bitanga akayaga keza.

Akazu gato ka MTN kagenewe gucururizwamo ama inite ya MTN. Ni akazu gahagaze ahantu ku muhanda wa kaburimbo, ku buryo umuntu wese ashobora kuhagera ku buryo bumworoheye.

Icyapa cyerekanag ahantu hacururizwa ibicuruzwa by'Inyange, muri ibyo bicuruzwa bacuruza harimo amazi ya Jibu, harimo amata aba afunze mu makarito, harimo za ji, n'ibindi bitandukanye.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye abantu bakenera mu buzima bwite bwa buri munsi. Bimwe mu bintu bicururizwamo hano, harimo amafu y'ubwoko bwose, harimo amaji, harimo umuceri, harimo n'ibindi bikoresho abantu bakenera mu buzima bwite bwa buri munsi.

Inyubako ya etaje imeze neza, ikorerwamo banki y'ubucuruzi. ifite imbuga y'amapave, afite amasuku, ifite parikingi ifite umutekano ifite jaride imeze neza, inyubako ijyanye n'igihe isobanutse.

Aha hagaragara icyapa kiranga ubucuruzi bw'imiti yirukana imibu n'utundi dusimba dutandukanye. Iyi miti ishobora gukoreshwa mu buhinzi, hirukanwa udusimba mu myaka. Kandi na none ishobora gukoreshwa mu bworozi, yirukana udusimba twatangiye gusatira amatungo.

Inzu ikorerwamo uruganda rw'ibinyobwa, ni inzu iteye amarangi y'umweru ku nzugi hateyeho irangi rya shokora, ni inzu iri ahantu hafi y'ishyamba, iri shyamba rishobora gutuma abakozi bakora muri iyi nzu bahumeka neza.

Inzu y'ubucuruzi iri hafi y'ibikorwa remezo ipoto y'amashanyarazi, insinga kandi ku ibaraza ry'iyi nzu hari ubucuruzi bw'ibikoresho by'isuku, ingofero ndetse n'ibindi bitandukanye, hari n'umubyeyi uhanyuze arimo gucuruza imbuto kugira ngo mu bantu barimo gukorera aha ngaha ushaka imbuto ku buryo bumworoheye zabasha kumugeraho.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, mu bintu bicururizwa muri iri soko harimo amayinite ya emutiyene na eyateri, harimo inkweto, harimo amabase ,harimo n'ibiribwa by'ubwoko butandukanye.

Ni iduka ricururizwamo ama piyesi y'ibinyabiziga imodoka, amamoto, aho hashobora kwangirika piyese imwe bakaza kuyikoresha hano cyangwa se bakayisimbuza iyindi.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye, inzu iriho amarangi, ifite isuku, icururizwamo amabase, amasafuriya, indobo, imbabura, icuririzwamo n'imyenda abantu bashobora kwambara, ndetse harimo n'umunzani bakoresha igihe barimo gutanga serivisi.

Inzu ikoreshwa ibijyanye n'ubucuruzi bw'ikinyobwa cya SKOL. Imbere y'iyo nzu haparitse imodoka itatu, inzu ifite amabara meza y'umuhondo agaragaza ibirango bya SKOL. Hafi y'iyo nzu hari ibiti bishobora gutanga akayaga, bigatanga umwuka wo guhumeka.

Iduka ricururizwamo ibikoresho bitandukanye bishobora kwifashishwa ku modoka, rimwe na rimwe hari amajeke ashobora kwifashishwa mu kuzikanika. Harimo amasupane, harimo n’izindi piyese zishobora kwifashishwa gusimbuza izindi zo mu modoka igihe zaba zagize ikibazo.

Inzu icururizwamo inzoga z'ubwoko butandukanye, icyapa kigaragaza ko ari amarikeri, ndetse n'inzoga za burarirwa ndetse n'inzu ikeye itunganye icururizwamo n'amayinite ya emutiyene.

Iduka ricururizwamo ibikoresho bitandukanye bya airtel. Amatelefone ya Tigo, simukadi ya Tigo n'amayinite ya Tigo. Abantu baza bagana iduka bakahasanga abakozi bakoramo, bakabasha kubaha serivisi baje bakeneye.

Inzu nziza icururizwamo inzoga z'ubwoko butandukanye, ifite indabo n'ibiti bitanga akayaga. Imbere y'iyo nzu hari ipoto y' y'amashanyarazi, bigaragaza ko ari inzu iri ahantu hari iterambere hafi ya kaburimbo.

Inzu ikorerwamo ibintu bitandukanye, hari igice gikorerwamo papetori, aho ushobora kuhasanga amakaye, uhasanga amakaramu, uhasanga n' amarati hari ikindi gice gicururizwamo resitora na bare aho ushobora kuhasanga ibiryo uhasanga n' ibyo kunywa n' ahantu hakeye hameze neza hari n' isuku.

Biragaragara ko iri ari iduka ritandukanye ricururizwamo ibintu bitandukanye birimo ji z'ubwoko butandukanye, harimo amata y'ubwoko butandukanye muri firigo, harimo inzoga imineke, amandazi, bigaragara ko ubu ni ubucuruzi bushobora guteza umuntu imbere bukozwe neza.

Inzu ebyiri zubatse ku muhanda ,ziteganirijwe kuba zakorerwamo ubucuruzi . Ni inzu zubatse ahantu hari ibikorwa by'iterambere . Hari amapoto y'amashanyarazi . Ni inzu zifite irangi ,ku buryo umuntu uwo ari we wese yahacururiza, kandi agatera imbere.

Inzu nziza ya etage, ifite imbuga igizwe n'amakaro. Amakaro aparitsemo imodoka, imodoka izanye ibikoresho bicururizwa hano kuri iyi nzu. Ni ahantu hameze neza, hafite isuku, inzu iteye amarangi irashimishije.

Ni farumasi icururizwamo imiti y'amatungo ndetse n'ibikoresho bikoreshwa ku matungo, farumasi ifite isuku imeze neza ikeye itunganye, ku buryo abantu bahagana baje gushaka imiti y'amatungo.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye, bifashisha mu bwubatsi, n'induka ririmo ibikoresho by'ubwoko butandukanye, iduka riri ahantu hari amakaro, n'iduka abantu bose bishoboka ko barigana.

Iduka ricururizwamo ibikoresho bitandukanye abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi. Ricururizwamo inzoga, ricururizwamo isukari, amavuta ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu buzima bwite bwa buri munsi. Ku buryo abantu babyifashisha.

Inzu ikorerwamo amatelefone yapfuye, ndetse ikanacururizwamo ibikoresho by'amapiyese y'amatelefone, bakanacuruza ibintu bitandukanye amamashini ndetse hari igice cyo hejuru gicuruza ibiryo. Ni ahantu hafite isuku hameze neza.

Izi ni etaje zikorerwamo ubucuruzi butandukanye ,etaje zimeze neza zikorewe amasuku, hari urujya n'uruza rw'abantu mu modoka ,hari imikindo ,mu by'ukuri umujyi umeze neza ,uratuje kandi uratekanye .Ubucuruzi buragenda neza kubera ko urimo gukorerwa ahantu hagutse.

Iduka ricururizwamo inzoga z'ubwoko bugiye bitandukanye, harimo inzoga zisanzwe, harimo inzoga z'ama rikeri, bigaragara ko ari iduka rikorera ahantu heza, hari amakaro, hafite isuku, hateye imbere, mu nzu y'ubucuruzi ku buryo kwiteza imbere, hameze neza.

Ni inzu nziza ikorewe amasuku isize amarangi, ni inzu ikorerwamo alimentation ifite amakaro asa neza, ifite parikingi, ni inzu bigaragara ko yakoroshya iterambere kubera ko hari umuriro, ipoto y'amashanyarazi arahari, parikingi irahari, uburyo bwose bwakororoshya iterambere buragaragara.

Inzu ikorerwamo bale ushobora kujyamo ukahasanga ikinyobwa icyo ari cyo cyose wifuza, inzu iri iruhande rw'ipoto y'amashanyarazi, n'inzu iri hafi y'umuhanda hafi y'ibikorwa remezo, n'inzu ikeye kandi iri hafi y'iterambere.

Inzu nziza yubatse ku muhanda wa kaburimbo. Ni inzu iri ahantu, imbere yayo hari ipoto y'amashanyarazi. Ni inzu icururizwamo imiti ivura abantu, ni inzu iri ahantu heza hari isuku, kandi hagaragara.

Icyapa cyerekanaga serivisi zitangirwa muri GOYIKO pulaza, mu isoko rya musanze gituma abantu batayoba, kuba bajya gusaba serivisi muri etaje eshanu zose zigize isoko.

Inzu yo gukoreramo ubucuruzi, inzu ifite iterambere umuriro urahari, inzu imeze neza ku buryo ubucuruzi wahakorera bwose bwagenda, kandi bukaba bwatanga inyungu.

Inzu zubatse neza zifite amarangi zifite amasuku zateganijwe gukorerwamo ubucuruzi, umuryango umwe urimo gukorerwamo ibikoresho bya kenkayeri harimo amarangi mu majerekani , amarangi mu madobo. Undi muryango urimo gukorerwamo ibintu bijyanye n'amayinite n'ibindi bikoresho bya Eyateli tigo.

Inyubako ikorerwamo ibijyanye na resitora, abantu bajyayo gushakayo ibyo kurya cyane cyane abashinwa, ni bo bakunda kujyayo kubera ko abantu bahakora abenshi ni abashinwa, bakorera ahantu heza hafite isuku hatuje kandi hatekanye.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye byifashishwa mu biro by'abayobozi, ndetse ricururizwamo ibintu byifashishwa n'abageni. Rimwe na rimwe abanyeshuri bajya bajyayo kuguramo amakayi bajyana ku ishuri, kugira ngo babashe kwiga neza, amasomo atabacitse.

Iri ni iduka ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, aho hari icyapa kigaragaza ibyo bacuruza, imipira, amazi ya jibu, imigozi, udukapu two gutwaramo ibyo abantu bahashye, imyeyo, kandi imbere yaho hari ubusitani bwiza cyane, bushobora gufasha abantu guhumeka.

Inzu nziza igaragaza icyapa cy'uko hakorerwa imigati mu wundi muryango hari arimantasiyo, hanze hari ahantu hacururizwa inkweto hari ahantu bashyize inkweto. Hari urujya n'uruza rw'abantu, hafi hari ahantu hacururiza amayinite, hari abasiramu baje gusaba serivisi hafi aha ngaha kubazitanga.

Isoko ricururizwamo imyenda y'ubwoko butandukanye, ricururizwamo amashuka rigacururizwamo amapantalo, rigacururizwamo imipira rigacururizwamo ndetse n'amakovurori, abantu barayakunda cyane.

Ahantu hacururizwa inzoga z'ubwoko butandukanye, hagacururizwa na za ji, hagacururizwa n'amandazi, hari igikoresho bifashisha mu gukonjesha izo nzoga cyangwa se za ji bashaka guha abakiriya, ni igikoresho cyitwa firigo.

Ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye, harimo amainite ya airtel, amainite ya MTN, hacururizwa inzoga, hacuruzwa n'ibindi bitandukanye mu mabotike, ni inzu zimeze neza, zifite amakaro, ziteye amarangi, n'inzu ziri ahantu hafi y'igiti gishobora gutanga amahumbezi.

Hano haragaragara inzu, imbere y'iyo nzu hari igiti. Iyo nzu ifite ibirango bya sikolo, n'ibindi birango by'inzoga zitandukanye harimo pirimusi, mitsingi, na turubo. Ni ibirango bigaragaza ko muri iyi nzu hacururizwamo inzoga z'ubwoko butandukanye.

Hano haragaragara inzu iriho amabara ya orange iriho icyapa hejuru kigaragaza ibikorerwa muri iyi nzu. Ni inzu iteye neza iri ahantu heza ikorerwamo ibikorwa by'imikino y'amahirwe.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye harimo:amaji, harimo amafu ndetse hanacururizwa amayinite ya emutiyene, abantu bashobora kwifashisha guhamagara kugira ngo serivisi zabo zihute.

Ni inzu y'ubucuruzi iri ahantu ku muhanda, ni inzu imeze neza, ni inzu ikorewe amasuku isize amarange, ni inzu rwose bishoboka ko ishobora gucururizwamo ikishimirwa n'abakiriya.

Iduka ricururizwamo ibintu byo kurya muri ibi byo kurya harimo ibitoki, harimo n'imineke irambitse ku meza. Abantu bavuye guhaha hari n'udufuka turi ku rugi rw'umutuku, aka bakaba batwaramo ibyo ngibyo bamaze guhaha. Mu iduka riri ahantu hafite isuku hari amakaro, hameze neza.

Inzu ikorerwamo ibintu bitandukanye, ni inzu ifite ibyapa bigaragaza serivisi batanga, umuryango wa mbere handitseho ko bakora irembo, n'ibindi bitandukanye bigaragara kuri ibi byapa, undi muryango wa kabiri hagaragara ko bacuruza kantine, bagakoreramo n'amakeke, ni inzu imeze neza kandi ifite isuku.

Iri ni iduka ricuruza gaze, nk'uko uzicuruza arimo abikurikirana, akora yandika, afite terefoni mu ntoki kugira ngo bimufashe, kandi nanone biragaragara ko muri iri duka bacuruza imyenda, nk'uko bigaragazwa n'ikirango kiri ku rugi, ndetse iruhande rwaho haracururizwa amavuta, amaparufe y'ubwoko butandukanye.

Inzu yubatse ahantu heza ku muhanda, yubatse yarateganijwe gukorerwamo ubucuruzizu, ni inzu iri hafi y'ipoto y'amashanyarazi, ni inzu ifite inzugi zisize amarangi, inkuta zisize amarangi, afite isuku hameze neza.

Iduka ricururizwamo ibikoresho byo mu biro ndetse bakanahafotorera impapuro, n'abandi bahageze bashaka ibikoresho byo kuba bakoresha mu bigo by'amashuri barabibona, ni iduka riri ahantu hatuje hafite isuku kandi hatunganye.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye, cyane cyane ibintu bikenerwa mu bigo by'amashuri, kandi na none iri duka ricuruza amasitimu rigacuruza amaradiyo, rigacuruza n'impapuro. Iri duka rinacuruza imipira yifashishwa mu mikino y'umupira w'amaguru.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye:amakote, amashuka, ibikapu n'ibindi bintu bitandukanye harimo amakuvurirori, kugira ngo abantu babashe gushyuha mu gihe cy'ubukonje.

Iduka ricururizwamo amata, amata akomoka ku matungo. Iyo aya mata bamaze kuyakama barayafata bakayanyuza mu ruganda bakayashyira mu makarito yabugenewe, kugira ngo yorohere abayacuruza kandi yorohere abashaka no kuyagura bayatwara.

Hano hagaragara icyapa cyerekana iduka ricuruza imyenda y'ubwoko butandukanye, harimo amakoti, amakabutura, amajire ndetse n'inkweto z'ubwoko butandukanye, sandari ndetse n'izindi zifunze. Kandi iki cyapa kiragaragaza imyirondoro ya nyiri iduka, ku buryo habayeho kumukenera umuntu yamubona akamenya uwo ari we.

Ni icyapa kigaragaza ahakorerwa imiti yica udusimba, amasazi ku matungo, ndetse bakanakora imiti y'amatungo, bakaba banayicuruza.

Iduka ricururizwamo ibikoresho bitandukanye by'isoko ricururizwamo ibintu abantu bashobora kunywa nka ji, ricururizwamo imyunyu, rigacururizwamo ama papiyejenike, ni iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye abantu bashobora kwifashisha mu buzima bwite bwa buri munsi.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye, bishobora kwifashishwa n'abanyeshuri, bishobora kwifashishwa mu mabiro, hacururizwamo amamashini ndetse n'ibikoresho bishobora gukoreshwa basana ayo mamashini igihe yapfuye, kandi muri iri duka hanacururizwamo amakaramu ndetse n'ibindi.

Inzu yubatse neza iriho n'inzugi byose biteye amarangi, ku nzugi bashyizeho ibirango bigaragaza ibikorerwa muri iyi nzu, bigaragaza ko hakorerwa papeteri aho ushobora gusanga ibikoresho bitandukanye bakwifashisha mu bigo by'amashuri harimo: amakayi, ibitabo, amamashini ndetse n'ibindi bicururizwamo hano.

Isoko bacururizamo imbuto zitandukanye: inanasi, ibipapayi, imineke ndetse n'indimu. Ni isoko risakaye, isoko rifite amatara, isoko rijyamo abantu batandukanye bagiye guhaha. Iyo basanze muri iryo soko kugira ngo ubuzima bwabo bugubwe neza.

Inyubako ijya ikoreshwa nka salo barasokoza baranasuka, inyubako igaragarwaho imyirondoro ku muntu waba ubakeneye, ndetse na mo imbere harimo televiziyo harimo radiyo harimo n'ibikoresho, buzinesi yateguwe kandi itegurwa neza.

Butike icururizwamo ibintu bitandukanye, bishobora gutuma umuntu yiteza imbere. Icururizwamo amazi ya jibu, icururizwamo ibindi bitandukanye, za biswi, icururizwamo ibyo kunywa birimo nka ji. Kandi anacuruza n'ama inite ya MTN kugira ngo itumanaho ribashe kororoka.

Ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye, barimo bacuruza ibikapu bitatu, bagacuruzamo ibitambaro bifashisha bihanagura amazi, igihe bavuye gukaraba. Barimo banacuruza amashuka, abantu bashobora gukoresha bagiye kuryama.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye harimo teremusi irimo icyayi, harimo umunyu, bacuruza ndetse n'ibitunguru, kandi banacuruza uduti bakoresha mu kugira ngo barambure igipondo, bashaka gukora capati.

Umuntu uhagaze mu mbuga nziza， imbuga irimo pisiine， ikoreshwa mu koga， igihe abantu batembereye cyangwa se basohotse，bakoresha iyi pisine， igashyirwamo amazi，abantu babisabye cyangwa se babyifuje， bakoga，bakumva umubiri wabo uraruhutse.

Inzu ya etaje ishobora gukoreshwa nka hoteli, hoteli yakirirwamo inama zitandukanye, ikakirirwamo ibirori bitandukanye. Abantu bajya kuruhuka bashobora kuyikoresha abantu bagiye mu birori bindi bashobora kuyikoresha. Ni inzu ifite ahateganijwe na parikingi.

Inzu ya etage ifite ibice bibiri. Igice cyo hejuru gisize amarangi asa neza cyane . Hakorerwamo hoteli, igice cyo hasi gikorerwamo ubucuruzi ,ndetse n'ibindi bintu bitandukanye . kubera ko ino nzu iri ahantu habugenewe kandi hatunganye.

Uduka ricururizwamo ibintu by'ubwoko butandukanye ibyo kunywa, urusenda , biswi ndetse n'ibikoresho by'isuku abantu babikoresha kugira bite ku buzima bwabo neza.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye by'ibiribwa. Ricururizwamo ibitoki, ririmo gucururizwamo n'ibitunguru. Hafi y'iri soko hari amaduka, acururizwamo ibintu bitandukanye, abantu bashobora kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni isoko rikorerwamo ibintu bitandukanye. Ni isoko ridasakaye. Ubucuruzi bw'amayinite ya MTN, ndetse na airtel bwahakorerwa, ndetse n'imyenda irahacururizwa. Hari urujya n'uruza rw'abantu ku buryo buri wese abona icyo yifuza.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye barya, hano muri iri duka ushobora gusangamo icyayi, ushobora gusangamo za ji, ushobora gusangamo biswi n'amandazi, ushobora gusangamo na keke, abantu barabikunda.

Ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye barya. Muri ibyo bacuruza harimo inyanya, harimo karoti, harimo imboga rwatsi. Abakiriya ibingibi babigura kugira ngo babikoreshe nk'imboga.

Iduka ricururizwamo amafu y'ubwoko butandukanye, hari ifu isanzwe iri mu mufuka usanzwe, hari ifu iri mu mufuka wa mbare ndetse n'ibindi bicuruzwa biri muri etajeri bishobora gukenerwa n'abakiriya.

Isoko ricururizwamo imbuto zitandukanye zishobora gutuma umubiri ugubwa neza, muri izi mbuto harimo ibinyomoro, harimo imineke, harimo imbuto bita wotameroni, ni imbuto nziza zishobora gutuma umubiri ugubwa neza.

Isoko ricururizwamo imyenda y'ubwoko butandukanye ricururizwamo inkweto, hari urujya n'uruza aho abantu barimo kujya guhaha imyenda, barimo kujya guhaha inkweto, kugira ngo babashe kubona ibyo kwambara.

Ubu ni ubwoko bw'amafi yarobwe agatunganywa agashyirwa ahantu habugenewe ku buryo hagera abantu bakaba bayishyura amafaranga bakayatwara bakajya kuyatunganya ku buryo bahita bayarya ako kanya.

Aha haragaragara ibitoki byeze by'ubwoko buribwa biri ahantu biracurujwe biri ku isoko, ku buryo bitegereje abakiriya bagomba kubigura bagatanga amafaranga, kugira ngo nyiri urutoki na we abashe kwiteza imbere.

Ahantu habugenewe hacururizwa amasanduku y'ubwoko butandukanye, aya masanduka yifashishwa iyo habaye ibyago, hagapfa umuntu, umuntu yamara gupfa hakagurwa isanduku yo gushyiramo umubiri kugira ngo bibafashe kumushyingura mu cyubahiro.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye bakoresha mu isuku harimo omo, hari n'ibindi bicururizwamo bakoresha mu kurya harimo oja ndetse n'ibindi birungo, bashobora gushyira mubiryo, muri iri soko hacururizwamo n'ibindi bitandukanye harimo supaguru harimo amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi.

Ijerekani zivamo amavuta. Iyo amavuta amaze kuvamo, izi jerekani zishobora gukoreshwa mu buryo bwo kuvoma amazi, cyangwa se uburyo bwo gushyiramo ibindi bintu bisukika, kugira ngo babitware ku buryo bworoshye.

Isoko ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye: harimo amaronji, harimo inanasi, kandi iryo soko ricururizwamo imyenda ndetse n'ubudodo bwo kudodamo indi, indi mipira abantu bashobora kwifashisha cyane cyane mu bigo by'amashuri ndetse n'ahandi.

Isahani y'isiniya， iriho ibiribwa bakunda kwita isambusa， ikiribwa k'isambusa， ni ikiribwa bakora mu ifarini，bakagikora no mu birayi，abana barabikunda，abagore barabikunda， ndetse n'abagabo barabikunda， kubera ko iyo babiriye bibaryohera.

Isoko ry'ahantu mu cyaro riciriritse rihuriraramo abantu b'ibyiciro bitandukanye, abaje kugurisha n'abaje kugura, abanyamagare barijagya, ndetse n'abanyamaguru bakarijyamo, ni isoko riri ahantu hakiri mu nzira y'iterambere.

Aha haragaragara isoko rya kijyambere rihurirwamo n'abantu benshi, ni isoko rifite igice gisakaye n'ikidasakaye. Isoko rimeze neza ushobora kubonamo ibintu byose mu buryo butandukanye.

Isoko ricururizwamo imyenda y'ubwoko butandukanye bakayicuruza mu buryo butandukanye: hari imyenda bacuruza bayirambitse hasi, hari n'indi myenda bacuruza bayimanitse ku biti baba bashinze, abakiriya bayisanga muri iryo soko bagahana ibiciro n'abayicuruza, bakumvikana bakagura.

Isoko ricururizwamo imyenda y'ubwoko butandukanye:harimo ibitenge, harimo amapantaro, harimo amashati , ibi bitenge bifite gukoreshwa n'abagore, ariya mapantaro agakoreshwa n'abagabo, ariko n'ibitenge abagabo bashobora kubyifashisha, barimo badodeshamo amashati.

Ni indobo y'umweru, ifite isuku, icururizwamo inanasi. Ni ubucuruzi bujya bukorwa abantu barimo bagendagenda. Ni uko iteretse ahantu habi, hari umwanda, ariko ubu bucuruzi bujya bukorwa.

Ubu ni ubucuruzi bw'imyenda, hari urujya n'uruza rw'abaguzi n'abagurisha , baracuruza imyenda yo mu bwoko butandukanye :imyenda y'abana ,imyenda y'abantu bakuru ,amapantaro ,amakote baracuruza ku mbuga y'amapave imyenda y'abari gucuruza, hari ku mashitingi barashaka kwiteza imbere.

Imbuto z'ubwoko butandukanye, zirimo gucururizwa mu ikarito, izindi zigacururizwa mu ipaniye, n'imbuto zirimo ibinyomoro, zirimo amaronji, zirimo n'indimu, zituma abantu bagira ubuzima bwiza.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye bijyanye n'imboga. Ricururizwamo karoti, rigacururizwamo ibitunguru, rigacururizwamo puwavuro n'inyanya. Iri soko na none ricururizwamo imiteja. Abantu barabikunda kubera ko biba birimo intungamubiri.

Igikoresho bakoresha mu bworozi bw'inkoko buciriritse, iki gikoresho bakiboha mu giti bita umugano, iki gikoresho ushobora gushyiramo inkoko warangiza ugaterura, mu gihe cy'imvura ukaba wacyanura cyangwa se mu gihe cy'ubushyuhe ukaba wagishyira ahantu heza, hatatera inkoko watangiye korora ikibazo.

Mu bucuruzi butandukanye bw'inkweto, aho bigaragara inkweto z'abadamu cyane cyane hagaragara inkweto z'abagabo, mu bucuruzi bukorwa mu buryo buciriritse kandi bushobora gutuma ukora ubu bucuruzi yiteza imbere.